Umunyeshuri wambaye impuzankano bigaragara ko ari ku ishuri, ariko mbere yo kujya kwinjira mu ishuri, abanyeshuri baba bagomba kubanza gukaraba intoki kugira ngo umwanda wari uri ku ntoki usigare hato tutanduzanya indwara zitandukanye.

Gushyikiriza amazi meza abaturage bakajya bayabona hafi, ni ingenzi cyane kuko bifasha ubuzima bwa muntu, aho babona amazi meza yo kwifashisha mu mirimo yo mu rugo harimo guteka, kumesa, ndetse no kunywa.

Urukarabiro rwifashishwa mu gukaraba intoki dukoresheje amazi meza ndetse n'isabune, aho gukaraba intoki ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko intoki zacu ziba zafashe imyanda myinshi.

Ni ingenzi ndetse ni ingirakamaro ko abaturage begerezwa amazi meza yo kwifashisha mu mirimo yo mu rugo irimo nko guteka, kumesa, koga, kunywa ndetse no koza amasahani ndetse no gukoropa, kuko bituma bagira imibereho myiza iyo bakoresheje amazi.

Kwegerezwa amazi mu baturage bakajya bavoma hafi ni ingirakamaro, kuko bifasha mu gukoresha amazi meza, ibyo bikabagabanyiriza ibyago byinshi byo kwandura indwara zituruka ku gukoresha amazi mabi, atujuje ubuziranenge.

Abagabo n'abagore bari mu nama igamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubuzima buzira umuze, aho bahugurwa ku bijyanye n'indwara zitandukanye ndetse n'uburyo butandukanye bwo kuzirinda, bakazabishyikiriza abandi baturage.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe wicaye ahantu hatari ikintu na kimwe, wicaye wambaye ubusa bigaragara ko yafunzwe mu nzu ya wenyine kugira ngo atagira umuntu akomeretsa kubera ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ahantu aziritse umunyururu ku kaguru, bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, bakaba baramuziritse kugira ngo atagira aho ajya, kubera aba atazi n'ibyo ari gukora.

Abagabo n'abagore bahugukiye mu gushishikariza abantu, gukoresha isuzuma mu mutwe kuko iyi ndwara ikunda gufata abantu benshi ndetse mu buryo butandukanye kandi ubwonko bwacu niryo shingiro ry'ubuzima bwacu.

Amenyo ni igice cy'umubiri cyiba kigomba kwitabwaho kigakorerwa ubuvuzi mu gihe atameze neza; kuko iyo atameze neza atera impumuro mbi mu kanwa, ukaba waganira n'abantu ariko uri kubabangamira. Ubwo rero uba ukwiye gukoresha isuzuma ry'amenyo buri gihe.

Urudodo rwifashishwa mu mirimo myinshi itandukanye ariko, rujya rwifashishwa no mu gusukura amenyo, aho umuntu arufata, akarufatisha amaboko abiri atandukanye akajya arunyuza hagati y'amenyo, ibyo cyane bisukura amenyo agasa neza umuntu akagira ubuzima buzira umuze.

Abana bato ku mashuri baba bakwiye kwigishwa gusukura amenyo yabo, bifashishije uburoso bwoza amenyo, umuti w'amenyo ndetse n'amazi meza, ibyo bikazatuma bakura bafite umuco wo gusukura amenyo yabo.

Aho gukoresha uburoso busukura amenyo ndetse n'umuti w'amenyo, ushobora no kwifashisha urudodo mu gusukura amenyo yawe, aho ufata urudodo ukajya urunyuza hagati y'amenyo, ubu buryo bwo gusukura amenyo burizera cyane, bwo gukuramo imyanda yose iba yafashe mu menyo.

Abantu bageze mu zabukuru baba bakwiye kwitabwaho, bakarya indyo yuzuye, bakanywa imiti, bakanywa amazi, bakabikorerwa ku gihe ndetse bakagerageza kuganirizwa mu gihe cya nyacyo kugira ngo babashe gusaza neza.

Abihayimana batatu bari no mu myambaro y'abihayimana bifatanyije n'umukozi wa Minisiteri y'Ubuzima, barashishikariza abaturage baba abakuru ndetse n'abato kwita ku buzima bwabo.

Abarwayi bafite uburwayi butabemerera kujya kwa muganga ngo bahite bataha, bahabwa inyubako ndetse irimo ibitanda, irimo amashuka, irimo ibyo kwiyorosa, aho bashobora kuryama bakaryama bameze neza ndetse bafite n'inzitiramibu mpaka bakize.

Inyubako ndende ikorerwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, isukuye isa neza ifite aho guparika imodoka, ndetse ikagira n'amarembo yo kwinjirirwamo manini, magari.

Zimwe mu nyubako zikorerwamo ubuvuzi, ziba zikeneye kwitabwaho cyane, kugira ngo aho abarwayi baba bari kuruhukira hatagira ikibabangamira na kimwe nk'umwanda cyangwa imibu, baba bakeneye kwitabwaho mu rwego rwo hejuru.

Inyubako zicururizwamo imiti zifasha abantu kuko iyo uvuye kwa muganga bakwandikira ibinini, ukaba usabwa kujya kubiura mu nyubako zicuruza ibinini, izi nyubako zikunda kuboneka ahantu henshi, ndetetse ziradufasha cyane.

Inzu y'ababyeyi igaragararira mu bitaro byinshi bitandukanye, aho ababyeyi bamaze kwibaruka baruhukira, kugira ngo bitabweho n'abaganga, mu gihe bagitegereje gukira, mu gihe bamaze kubyara.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, ufite ubuzima buzira umuze, ufata indyo yuzuye irimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, ari byo imbuto ndetse n'ibikomoka ku nyamaswa ndetse n'amazi.

Amazi ni ingirakamaro mu buzima bwacu, cyane cyane abantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, baba bakeneye kunywa amazi menshi kugira ngo bibafashe gusukura ibice by'umubiri birimo nk'impyiko, igifu ndetse n'ibindi.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu, cyane cyane mu gitondo umuntu akimara kubyuka cyangwa uvuye imyitozo ngororamubiri, cyangwa izindi saha uba wumva ukenyeye kunywa amazi, ni ingenzi cyane ko uyanywa.

Ibikoresho by'ibanze ushobora kwifashisha mu gihe uri mu myitozo ngororamubiri ukaba wahuye n'ikibazo, birimo ibipfuko, inshinge, imikasi ndetse n'ibindi.

Imiti itandukanye yifashishwa mu gihe umuntu akora imyitozo ngororamubiri, harimo ibipfuko byifashishwa bapfuka ahantu hakomeretse, ibyo bifashisha bazirika aho amagufa yatandukanye ndetse n'ibindi byo kunywa kugira ngo imbaraga ziyongere.

Umuti uri mu icupa ry'umweru, bigaragara ko uhabwa abana kuko ushushanyijeho abana, uyu muti uba warakozwe nk'ibisukika kuko abana bawu barawuywa kuko ntabwo baba babasha kumira ibinini.

Igikakarubamba ni ikimera kizwi n'abantu benshi, kuko kibafasha mu bintu byinshi bitandukanye, igikakarubamba gishobora kwifashishwa bakora amavuta yo kwisiga, isabune zo gukaraba cyangwa se imibavu, nanone igikakarubamba kifashishwa mu gukora imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye.